Mu gihugu cy'U Rwanda, umutekano umaze gutera imbere, umutekano ucungwa n'inzego za polisi, ndetse n'inzego za gisirikare, kugira ngo bamenye neza ko abaturage bafite umutekano usesuye, babayeho ubuzima bwiza nta kintu kibabangamira mu mahoro.

Daso na rwo ni rumwe mu mu nzego zishinzwe umutekano mu Rwanda, bakaba bashinzwe kurinda umutekano w'abanyarwanda ndetse n'imitungo ya bo, igihe icyo aricyo cyose haba hari ikibazo kivutse, bakaba batabara.

Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu byinshi bifite umutekano. Mu bihugu bimwe bifite umutekano ukomeye cyane haba mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose muri rusange kuko ni cyo Gihugu gifite umutekano ukomeye, gifite n'ingabo zikomeye, zikirwanira zikirindira ubusugi.

Mu Rwanda inama, inama zikunda kuba cyane mu Rwanda, aho abayobozi bakoranya abaturage bakabahuriza hamwe, bakabaganiriza ku ngingo runaka, bakungurana ibitekerezo, ndetse bakanababwira ingamba nshya zafashwe na leta mu bijyanye n'imibereho y'abaturage, mu bukungu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye.

Igicuba ni kimwe mu bikoresho byahereye kera bikoreshwa mu Rwanda rwa kera. Abanyarwanda babyifashishaga mu kubibikamo amata bakayaha abashyitsi, ugasanga birashimishije ni ukuri.

Ingobyi, umuvure, igisabo,n' isekuru n'amasuka, ni bimwe mu bikoresho byakoreshwaga cyane kera mu Rwanda rwa mbere. Kandi byakorwaga hifashishijwe ibikoresho bisanzwe bikoze mu biti.

Imbyino gakondo zirimo guhamiriza, ziri mu biranga umuco nyarwanda kuva kera ku ngoma z'abami. Bikaba byarashimishaga abantu mu gihe intore zabaga zirimo kubyina, zifite amacumu zambaye imigara ikoze mu ngagari, zambaye imishanana, byabaga bishimishije cyane kandi byasusurutsaga abantu.

Kuvuza ingoma; kuvuza ingoma biri muri bimwe bigize umuco nyarwanda, guhera kera ingoma zabagaho, kandi zaravuzwaga ndetse no kubw' abami zajyaga zivuzwa nk' ikimenyetso cy' ibyishimo cyangwa ikimenyetso cyo gutsinda urugamba.

Intonga kimwe mu bikoresho byakoreshwaga kera byakoreshwaga mu guhunika imyaka bikabikwamo imyaka mu gihe yabaga yeze kugira ngo mu gihe kizaza bazayifashishe mu gihe bakeneye kuyitera urugero nk'amasaka, ibishyimbo, ingano, ibigori, soya n'ibindi byinshi.

Mu rwanda rwa kera hari ibikoresho byakoreshwaga mu gucuranga, harimo imyirongi. Bikaba byarifashishwaga mu gucuranga abantu bakizihira, mu gihe habaga habaye ibirori, bakishima, bakaganira, bagasabana, bagasusuruka.

Umusambi ni kimwe mu bikoresho byatangiye gukoreshwa kera mu Rwanda. Bikaba byarakorwaga hifashishijwe ibikangaga. Barabicaga bakabyanika bikuma, bakabibohesha ingagari, bikaza kuvamo umusambi wo kwicaraho mu gihe abantu bari kuganira cyangwa se bari kurya, cyangwa se uwo kuryamaho nijoro mu gihe umuntu aryamye.

Igisabo ni kimwe mu bikoresho byifashishwaga mu Rwanda rwa kera, aho cyashyirwagamo amata bakayacunda kugira ngo bayakuremo amavuta y'inka yo gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye, harimo no kuba amavuta ari umuti.

Mu muco nyarwanda, kera abantu bengagaga inzoga, bagahamagara inshuti zabo bakayisangira mu ducuma ndetse no mu tubindi, bakayinywa bishimye bakoresheje imiheha; kimwe mu bikoresho bya kera byakoreshwaga kandi n'ubu bigikoreshwa hamwe na hamwe.

Iningiri, iningiri ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga kera mu Rwanda. Bakaba barabyifashishaga bacuranga, bagakora indirimbo nziza kandi bakishima, abanyarwanda bakazumva bakishima, bakizihiza, bakanywa, bagasabana muri rusange.

Mu Rwanda haracyasangwa inzu ndangamurage, zirimo ibikoresho bya kera, harimo inzu z'umwami, n'inzu abami babagamo kera byabitswe, kugira ngo tujye twiyibutsa amateka tumenye abantu ba kera uko bari babayeho.

Ubworozi bw'inzuki, n'ubworozi bwatangiye kuva kera, ah'abanyarwanda baboha imitiba, bakagenda bakayishyira ahantu mu biti, hanyuma inzuki zikaza zikajyamo, zikajya zikora ubuki, bityo banyirayo bakabona amafaranga bakabona n'ubuki bwo kwifashisha mu bintu bigiye bitandukanye.

Mumuco nyarwanda tuzi ko inkono zifashishwa cyane mu guteka cyane cyane mu bice by'icyaro mugihe mumugi ho bakoresha amasafuriya agezweho akoze mu byuma.

Imitiba iri muri bimwe mu bintu byahereye kera mu Rwanda bibaho kuva na na kera, U Rwanda rutari rwakoronizwa ,imitiba abantu barayibohaga bakayijyana bakayagika, hakazamo inzuki bityo zigatanga ubuki . Ubuki bukaribwa n'abaturage, aho busigaye buhenda cyane, bushorwa bukavaho amafaranga menshi.

Akayuyuzo kari muri bimwe mu bikoresho byakoreshejwe kuva kera mu Rwanda, mu kwahira gushaka ubwatsi bw'amatungo cyane cyane inka n'ihene ndetse n'intama.

Kubyina no guhamiriza biri muri bimwe bigize umuco nyarwanda. Kuva kera ku ngoma y'abami kugeza n'ubu, kubyina biracyari umuco nyarwanda, kandi abanyarwanda barabikora bakishima.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye harimo amaterefone, ama ekuteri, amakuteri afasha kumva amajwi mu buryo bworoshye niyo akunda gukoreshwa cyane naba...

Hakunze gutangwa ibikoresho cyane mu Rwanda, hakaba harimo ibikoresho byo guteka ndetse n'ibiryo bifasha abaturage bakennye, kubona ibibatunga mu buryo bworoshye.

Mu Rwanda niho hantu ushobora gusanga hari inyubako zubatse neza, zisa neza, kandi zikikijwe n'ibidukikije byiza nk'ibiti, imihanda, amatara, ndetse n'ibindi byinshi.

Mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kubaka ibikorwa remezo bigezweho muri ibyo bikorwaremezo harimo amashuri mu gihe Leta iri kubaka amashuri agezweho mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda bityo abana bakiga neza abanyeshuri bakagira ubumenyi bwiza kandi busesuye bakiga ahantu heza mu mahoro.

Mu Rwanda, tuhasanga ibigo by'amashuri byinshi, muri ibyo bigo byinshi ibyiganje, aba ari ibigo by'amashuri abanza ndetse' n'amashuri yisumbuye, ni byo dusanga cyane byiganje mu gihugu.

Ingomero z'amashanyarazi mu rwanda zirahari kandi dukunda kuzisanga ku migezi aho amazi atunganywa n'amamashini bikabyara umuriro w'amashanyarazi afasha abanyagihugu kubona umuriro.

Mu Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha Ribu rugiye rufite icyicaro ahantu henshi mu gihugu hagiye hatandukanye, aho muri buri murenge mu gihugu dusangamo ibiro by'umukozi wa Ribu.

Mu Rwanda ibikorwaremezo bikomeje kwiyongera. Harimo amashuri, harimo ibiro by'abayobozi, harimo ibitaro, aho abana bajya kwivuza bagahabwa ubufasha bw'ibanze n'igihe barwaye.

Mu Rwanda hagenda hubakwa imidugudu itandukanye. Iyo midugudu ikubakirwa abaturage, hagakorwa n'imihanda mu rwego rwo kubahiriza abaturage kubaho neza, badafite ubushobozi bwo kuba bakwibeshaho neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ubutabera, ni ikintu cyubahwa cyane, aho ari inzego zishinzwe kugenzura ko uburenganzira bwa buri muntu wese bwubahirijwe, nkuko amategeko abivuga. Ndetse ko bakanamenya ko neza abaturage bose bahabwa ubutabera mu gihe kiza.

Litico ni zimwe mu modoka zitwara abagenzi benshi. Ikaba ari n'imwe mu modoka nyinshi cyane nini. Iri mu modoka ziruta izindi zose kandi zitwara abagenzi benshi kandi zihuta. Kandi zigera ahantu hose mu gihugu.

Imodoka itwara abagenzi rusange igeze Kacyiru, igeze Kacyiru kuri Kigali Konvesheni Senta, itwaye abagenzi ibajyanye Kimironko muri gare, cyangwa i Remera muri gare, ikaba iri kwerekeza muri ibyo bice.

Mu Rwanda ubwikorezi bwo mu kirere bumaze gutera imbere aho abacuruzi basigaye batumiza ibicuruzwa hanze bikazanwa n'indege. Ikabibagezaho mu gihugu Kandi ikabibagezaho mu gihe kiza idatwaye igihe kirekire cyane.

Mu Rwanda ubwikorezi bw'ibintu n'abantu bwateye imbere, aho hagiye hubakwa ahantu imodoka zihagarara hagezweho kandi hagiye hanongerwa imodoka zigiye zitandukanye zishinzwe gutwara abantu n'ibintu zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Ubwikorezi bw'ibintu n'abantu burimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ubwikorezi bwo mu kirere, ubwikorezi bwo mu mazi, ndetse n'ubwikorezi bwo ku butaka. Ariko by'umwihariko tugiye kwibanda ku bwikorezi bwo mu kirere, aho abantu ndetse n'ibicuruzwa batwarwa n'indege bava ahantu hamwe bajya ahandi biciye mu kirere.

Mu Rwanda ubutwazi bw'ibintu n'abantu hifashishijwe moto bumaze gutera imbere cyane, kuko usanga ari nabwo bukoreshwa cyane mu gihugu, ugereranije n'ubundi butwazi bwose.

Ubutwazi bw'ibintu n'abantu mu Rwanda, bwateye imbere aho hari ibikorwaremezo bibufasha nk'imihanda, ibinyabiziga bigezweho, amatara ku mihanda ndetse n'imihanda ikoze neza cyane.

Ubwikorezi bw'abantu n' ibintu hifashishijwe ingendo zo mu kirere burakoreshwa cyane. Harimo gukoresha indege nka kimwe mu binyabiziga bica mu kirere bitwaye abantu n'ibintu.

Mu Rwanda moto ni byo binyabiziga cyane bikunda kuhaboneka bitwara abagenzi, bibatwara ahantu hamwe bibajyana ahandi. Kandi bukaba ari na bwo buryo bwihuta bwo kuva ahantu hamwe ujya ahandi bitakuvunnye, kandi mu gihe gito.

Ubutwazi bw'ibintu n'abantu mu Rwanda byateye imbere cyane, aho hongerewe imodoka zitwara abagenzi zikaba nyinshi. Kandi gutwara abagenzi bikaba bitagoye kuko hazanwe uburyo bwo gukozaho ikarita ku modoka, ubundi amafaranga akavaho ukagenda bidasabye ko ujya gukatisha.

Mu Rwanda hari bisi zitwara abagenzi, zibakura mu duce tumwe zibajyana mu tundi. Bikaba byorohereza abaturage kuva ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo bworoshye, kandi bitabasabye igihe kirekire.

Ubwikorezi bw'ibintu n'abantu buriganje cyane, aho ibicuruzwa bivanwa hamwe bijyanwa ahandi, cyangwa se abantu bavanwa ahantu hamwe bajyanwa ahandi mu buryo bworoshye, cyane cyane hifashishijwe ibinyabiziga birimo imodoka.

Gutwara ibintu n'abantu mu Rwanda bimaze gutera imbere cyane, maze gutera imbere aho hagiye hubakwa ama parikingi y'imodoka cyangwa se icyo twita gare aba abagenzi cyangwa abaturage bagenda bakarindira imodoka zikabatwara zikabajyana mu bice bashaka kugeramo.

Mu Rwanda haba imikino myinshi igiye itandukanye, muri iyo mikino dusangamo na kiriketi. Iyo mikino ubusanzwe dusanzwe tuyizi mu bihugu by'abazungu, ikaba ikinwa n'abazungu, niko dusanzwe tubizi ariko no mu Rwanda irahari.

Imikino y'amaboko mu Rwanda imaze gutera imbere kandi ntabwo iheza n'umwe. Haba abakobwa, haba abahungu bose barakina bakidagadura mu buryo bungana nta n'umwe uhejwe. Bigakorwa kandi.....

Imikino mu Rwanda imaze gutera imbere, aho n'amakipe yo mu mahanga asigaye aza agakinira mu Rwanda. Imikino ikakirirwa mu rwanda kuko u Rwanda rufite aho kwakirira abantu. Ahantu twakwita ko hakinirwa imikino kandi mu buryo bugezweho hameze neza nka Bikeyi arena.

Umukino wa tenisi n'umukino umaze gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ufite abakinnyi benshi bawukina, bigafasha abanyarwanda bose kwidagadura, haba abakobwa, haba abahungu nta n'umwe uhejwe.

Aha mu Rwanda ,imikino imaze gutera imbere. Aho ahantu henshi hagiye hubakwa ibibuga by'imikino. Harimo ibya volley, harimo ibya football ,harimo ibya rugubi ndetse n'indi mikino myinshi. Habi ikoresha amaguru cyangwa amaboko.

Umukino wa tenisi , ni umukino udakunze gukinwa n'abantu benshi cyane , cyangwa se utazwi n'abantu benshi mu Rwanda , ariko naho urahaba kandi kandi urakinwa neza . Hakaba hari abantu bawukina kandi bakishima kuko uri mu mikino ishimishije cyane .

Mu gihugu cy'u Rwanda hubatswe inzu y'imyidagaduro yitwa Bike Arena, aho haberamo imikino igiye itandukanye: imikino ya basiketi n'imikino ya vole kandi haba hari abafana benshi baje kubireba bigasusurutsa abantu, bityo Abanyarwanda tukizihirwa, tukishima.

Imikino imaze gutera imbere, aho imikino itandukanye cyane tuzi ku isi no mu Rwanda, usanga ihari, harimo nk'umukino wa tenisi watangiriye mu bihugu byo hanze, ariko n'ubu mu Rwanda ukaba uhari, ukaba ukinwa neza.

Imikino itandukanye mu Rwanda ,ihabwa agaciro harimo imikino y'amaboko ndetse n'imikino y'imipira y'amaguru ,kandi yemerera buri wese kuyitabira nta kintu kitaweho, usibye kuba umuntu afite ubushake gusa.

Mu mikino na none tugenda dusanga mu Rwanda dusanganwe n'umukino wa basketi, aho umupira ukinwa hakoreshejwe amaboko amakipe abiri ahanganye akagenda atsindana ibitego bityo itsinze ikaza kuba yahembwa.

Mu Rwanda imyidagaduro na siporo bimaze gutera imbere kuko hagiye hubakwa ibikorwa remezo bigamije gushyigikira ndetse no guteza imbere siporo ndetse n'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu rwanda siporo nta muntu iheza, abantu bose bemerewe gukora siporo haba abakobwa haba abahungu, kandi bakayikora ku buryo bifuza nta numwe ubangamiye undi, kandi ibikorwa remezo birahari bifasha buri wese gukora siporo.

Mu Rwanda hamaze kubakwa imihanda myinshi mu gihugu mu buryo bwo korohereza urujya n'uruza rw'abantu, mu kugenda no gutwara ibicuruzwa babivana ahantu hamwe babijyana ahandi.

Mu Rwanda har'ibidukikije byinshi, mur'ibyo bidukikije ibyiganjemo, n'ibiti ari byo bigira amashyamba hakaba harimo imisozi, hakaba harimo inyamaswa n'ibindi bigiye bitandukanye.